Ahantu abantu bakuru bajya kunywera ibinyobwa akenshi tuhita mu kabari, hano hantu iyo ugiyeyo baguha ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ahantu heza cyane ho gusohokera, ukaharuhukira iyo ufite amafaranga . Ni heza cyane, hariho inyubako nziza n'intebe nziza umuntu yicaramo akaruhuka.

Abantu bari mu kabari bari kunywa ndetse bari kuganira, abandi bagasangira, abandi bagasabana, bakaganira, bakarushaho kungurana ibitekerezo.

Akabare abantu basohokeramo cyane cyane mu gihe cy'impera z'icyumweru , abantu bakajya kunyweramo ibinyobwa harimo nk'inzoga, amafanta ,n'imitobe. Aha hantu hajya abantu bamaze kuba bakuru benshi kandi bafite n'amafaranga.

Ibiribwa byitwa inyama biba biri ku biti abantu bakunze kwita imishito, iyo ubiriye ugira ubuzima bwiza bugiye butandukanye kandi ibi babicuruza muri za Bare n'amaresitora.

Icyokezo bokerezaho inyama zitandukanye, nk'iz'inka, ndetse n'iz'intama, cyangwa se iz'ihene. Umuntu ukora mu cyokezo bamwita mucoma, aba ari kuzotsa ku makara.

Umuntu ari gucuruza imyenda， ndetse n'inkweto byiza by’abagabo，nk’amakositimu， ndetse n'ibindi bitandukanye. Azambikaga ibipupe kugira ngo abantu baje kuzigura babone ko ari nziza.

Ahantu bacururiza ibiribwa ndetse n'imbuto. Rino soko iyo ufite amafaranga, ujya guhahiramo imbuto n'imboga ndetse n'ibiribwa bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ya etaje ikoreshwa mu bucuruzi ndetse no mu bikorwa bibyara inyungu, nk'akabari ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bya byarira ikiremwa muntu inyungu.

Imikeka ndetse na za Matora. Imikeka babirambura hasi kugira ngo ahantu harusheho kuberwa ndetse habe hanameze neza. Matora baziryamaho kugira ngo umuntu akomeze kuruhuka neza.

Icyapa kiri kwerekana ahantu abantu bajya kunywera inzoga. Ndetse n'ahandi harimo gesita hawuze cyangwa se amacumbi. Iyo ugiyeyo ukanywa bashobora no kugucumbikira ukararayo ukabaha amafaranga.

Inzoga abantu banywa zitwa gatanu. Abagabo ndetse n'abantu barengeje imyaka cumi n'umunani nibo bemerewe kuzinywa. Uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ntabwo yemerewe kuzinywa.

Inzu y'ubucuruzi (butike) abantu bajya kuguriramo ibintu bakeneye, iyo ufite amafaranga ukinjira hano baguha ibicuruzwa bitandukanye ndetse bigatuma ukora imirimo yawe neza kandi utuje, n'abantu bayikoramo bakabona inyungu y'amafaranga.

Icapa bamamarizagaho inzoga yitwa amusiteli. Iyi nzoga ni nziza ariko ku bantu barengeje imyaka cumi'umunani ndetse n'abantu bakuru. Abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntibemerewe kuyinywaho, ndetse n'abantu batwite, nta n'ubwo wemerewe gutwara wayinywoye.

Ahantu ho ku kugurira imiti aha hantu dukunda kuhita muri farumasi iyo warwaye uragenda bakaguha imiti usanga harimo n'abaganga kenshi na kenshi.

Ubutaka bwubatsweho inzu abantu bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, gucuruza ni byiza kubera ko bituma abantu babona amafaranga atandukanye bakabaho neza cyane.

Ubutaka bwubatseho inzu ikorerwamo ibintu bya bare, cyangwa se akabare abantu bajyayo bakahanwera ibinyobwa bigiye bitandukanye bakaharira n'ibiryo, ndetse hari na bare zigira amacumbi.

Inyubako nziza ziri kugenda zigerwaho, abantu bazicururizamo nk'amabutike，ndetse bagakoreramo n'izindi bizinesi zibinjiriza amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi abantu bajya kuriramo cyangwa se kuguriramo ibiryo harimo: nk'imigati ,amata, amaji ndetse n'ibindi biryo bitandukanye, ndi kubonamo n'imineke n'ibindi bintu byiza.

Ahantu hubatse banki y'abaturage y'u Rwanda, ku gashami ka Gakenke, hano hantu abantu bajya kuhabitsa amafaranga, no kuyabikuza, bityo bakiteza imbere banaguriza amafaranga abantu batayafite.

Ahantu abantu basohokera nko muri hoteli ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Uyu mugabo yahagiye kugira ngo ahasohokere aruhuke mu mutwe, ndetse ajye no kumera neza bityo bitume yishima ndetse anakomeze kuryoherwa n'ubuzima.

indobo bacururizagamo ibikoresho bari kubitembereza cangwa kubizunguza bita inanasi barazikataga bakazishira mu ndobo umuntu ushaka kugura akaza akabahahira

Isoko bacururizamo ibikombe abantu bakoresha bari kunywa. Ndetse harimo n'indobo zikoreshwa bari gutwara ibintu. Ibikombe iyo biri mu rugo, unywa neza amazi, igikoma ndetse n'ibindi binyobwa.

Igikoresho cy'ibase kirimo ibihingwa byiza cyane byongera amaraso, ibyo bihingwa babyita beterave biba bisa n'umutuku.